Haragaragara abantu b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo mu madini atandukanye, harimo abazungu n'abirabura. Mu biboneka bari bitabiriye umunsi mukuru w'ubukerarugendo.

Haragaragara insinga z'amashanyarazi, inyubako, amapoto y'amashanyarazi, uruzitiro rw'urugo, ibiti, amabati akoze uruzitiro n'ibindi.

Ni ikinyabiziga gitwara abarwayi kwa muganga igihe bakeneye ubuvuzi burenze ubwo bari guhabwa aho bari, gihamagarwa igihe umurwayi arembye akeneye kujyanwa ku rindi vuriro.

Ni umuhanda ugaragaramo abacuruzi mu nkengero zawo hagaragaramo imodoka, harimo abantu bari kuwugendamo n'amaguru ndetse n'ibinyabiziga bindi bitandukanye.

Hagaragaraho ibyapa biranga imihanda dukurikije nomero ziriho ibyapa n'ibyo mu karere ka Nyarugenge ko mu mujyi wa kigali umurwa mukuru w'u Rwanda.

Ni imihanda itandukanye harimo inyura hasi n'undi unyura hejuru, ikaba igaragara mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali ukaba umurwa mukuru w'u Rwanda.